Ikigo cy'amashuri batangaho uburezi bw'ibanze bw'abana biga muri pirimeri, aya mashuri akaba ariho n'ikirango kiranga igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri biga muri segonderi, abanyeshuri bakaba bicaye hamwe mu itsinda barimo gukora imikoro itandukanye bahawe n'abarezi babo.

Icyumba cy'ishuri giteguye neza, kikaba cyigiramo abana b'incuke. Icyo cyumba kirimo utumeza abana bandikiraho n'udutebe bicaraho.

Umwana w'umukobwa，uri gukora ikizamini muri kompiyuta rabu，icyo kizamini cya puratike ari kugikorera ku mashini，akaba yambaye agapfukamunwa n'iniforume， igaragaza ko ari umunyeshuri.